Umuganga urimo gusobanura imivurire y'abarwayi, afite igikoresho cyo akoresha apima abantu, yambaye itaburiya arimo arasobanura aseka yambaye karuvati.

Inzu nziza, bigaragara ko isa n'iri hejuru, hari imodoka y'umweru, hari umuzungu kuruhande wambaye imyenda y'umukara. Bigaragara ko aha hantu hagurishirizwa imodoka.

Inzu ifite ibirahure byinshi, harimo umuntu uhagaze, yambaye ikote ry'ubururu, arareba hanze, ishati y'umweru, umukandara ku ipantaro.

Icyapa cy'umukara handitseho inyuguti ziranga ibihakorerwa, hariho ibara ry'umutuku ritambitse, hari icyuma kiriho insinga z'umuriro.

Umukobwa uri kwigisha uburyo yiyishyurira mituwele de sante. Yambaye umupira w'ubururu. Arimo arerekana mu buryo bw'amajwi akoresha akoresheje amarenga. Afite terefone mu ntoki.

Ubwishingizi Radiyanti iwacu, ubwishingizi bw'inkoko hakaba harimo inkoko nkuru (amasake, inkokokazi), imishwi. Hakaba hagaragaraho n'aho zirira, hakaba hari agakombe gafite ibara ry'umutuku hejuru.

Iri ni isoko rigurisha imyenda rya madi ini Rwanda, ririmo imyenda itandukanye ikoze mu bitwenge, ikaba ifite amabara atandukanye ubururu, umweru, umuhondo, icyatsi.

Umudamu ucuruza imyenda, yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umweru, hari imyenda imanitse, igurishwa ifite amabara atandukanye.

Ahantu bacururiza imipira itandukanye ifite amabara meza, hari ubururu, umuhondo, icyatsi, umukara, imanitse ku maporutomanto kugira ngo itangirika.

Umuhanda w'umukara ufite imirongo kuruhande aho abagenzi bagendera umukara n'umweru. Hari ibicuruzwa by'imyenda umukindo utanga umwuka mwiza imodoka y'umutuku umuntu urimo kugenda

Isoko ricuruza imyenda y'abagore harimo umukiriya hari n'ucuruzi, arimo aramuhereza telefone ngo yishyure kuri mubayiro mane, hari indi myenda myinshi imanitse hari uwambaye umwenda w'icyatsi.

Inkweto z'inkorano za kamambiri z'abantu bagura, ziri mu mabara atandukanye, mu buryo butatu, ziri mu kabati aho zitanditse.

Iri ni isoko rinini cyane, rigurishwamo imyenda y'abagore, ni ibitenge, amasharupe biri mu mabara atandukanye, hagaragara ko hashashe amakaro.

Ahantu bacuruza imyenda y'abadamu hari imyenda itandukanye ku mabara, umutuku, umuhondo, ubururu, ikaba imanitse kuri porotomenti kugira ngo ibe irambutse neza.

Hari imodoka y'umweru ihagaze mu muhanda w'umukara. Iruhande rwayo hari ibiti bibiri bitoshye. Hirya yaho hari inzu y'umuhondo ifite ibirahure. Hari n'amatafari ya ruriba ku gipangu cyayo.

Hano hari abantu babiri b'abagabo bafite ikirango cy'imodoka y'akagera, imodoka ihari n'umweru ifite aho batwara imizigo umukara ni ikamyo.

Imodoka ifite ibara risa na kake, iragaragaza ipine rimwe, imodoka y'umutuku, hirya yaho hari ibyatsi bitanga umwuka duhumeka.

Hano hari umuhanda w'umukara hari inzu zisize irangi ry'umutuku, hari ibyapa bigaragaza ibihakorerwa, hari imodoka ziri hasi z'umweru, hari icyapa cy'ubururu, hari amatara ku ku muhanda.

Imodoka y'umukara bigaragara ko ari shyashya, ihagaze ahantu mu nzu hari irange ry'umuhondo, ifite purake zikiri shyashya.

Imodoka y'umukara ihagaze kuma pave haragaragara amapine abiri, hirya yaho hari ubusitani buteyeye iruhande rw'umuhanda.

Imodoka y'umweru nini y'ikamyo iparitse ku mapave, hari abantu babiri bayihagaze iruhande, umwe yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, igisarubeti cya kaki.

Mu Kagera motos bakora imodoka nshya hari abantu babiri umwe afashe agakapu bafatanye akapa ari babiri hari imodoka eshatu z'amavatiri imwe y'umukara indi y'umweru n'indi y'umukara hirya y'aho hari ibicu harasa nkaho bugiye gucya.

Hano hari abantu babiri bambaye imyenda itandukanye, ikanzu y'umukara, ikote ry'ikigina, ishati y'umweru bafashe icyapa cya Eco bank hariho imodoka eshanu zifite amabara atandukanye.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umweru y'ikamyo, bahagaze ahantu hashashemo amapave, hagati harimo umugore wambaye inkweto z'umweru.

Imodoka y'umukara, nta kirango ifite, ntirajyaho purake, ihagaze ku makaro, bigaragara ko ari nshyashya. Hari idirishya ry'ubururu inyuma yaho, hari n'akapa kari iruhande rwayo; ifite n'akandi kantu ku ruhande k'umutuku.

Iyi modoka ni imodoka nziza cyane, murabona ko barimo kuyireba, bareba ubwiza bwayo, kandi irasukuye, ifite amapine meza cyane, ihagaze ku mapave, mu gipangu.

Imodoka y'Akagera motori imbere yayo hari abantu bane, umwe yambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara, hejuru handitseho Akagera motozi, hari ibicu bisa n'ubururu hejuru, hasi hari amapave yamezemo utwatsi.

Iki ni igiceri cy' u Rwanda cya kera gifite ibirango bibiri bitandukanye ishami ry'ikawa ikirangantego cy' u Rwanda cya kera kikagira n'umubare mirongo itanu wanditseho.

Aba ni abagabo babiri, umwe aragaragara ko arimo gutanga serivisi, asobanurira umwicaye imbere, hari imashini y'umukara imuri iruhande.

Hano hari imashini ibara amafaranga y'umweru. Harimo imibare itukura. Yambaye isaha y'umukara. Yashyizemo ikiganza aho bashyirira amafaranga.

Hano ni muri giti banke, hari abantu batatu, hari n'igishushanyo kiri ku ifoto, igaragaza ibikorwa bakora. Umwe yambaye ikoti undi yambaye umwenda w'umukara undi yifashe ku itama.

Aha ni ahantu batangira amafaranga aturutse mu mahanga, hari abantu batatu bagannye iyo banki, hari n'undi ugomba kubakira bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye umupira w'ubururu undi yambaye umwenda uvanze amabara.

Ni inzu nziza cyane isize irange ry'ubururu, hakaba harimo icyuma kibika amata kikayakonjesha, harimo utujerekani tubitsemo amata, hakabamo n'amazi y'inyange yo kunywa.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa, amata, harimo icyuma gikonjesha, intebe abantu bicaraho bafata icyo kunywa, hejuru hari parafo ya rangete, ku ruhande hari akabati gateretseho indobo irimo amandazi.

Aha ni ahakorerwa ubucuruzi bw'amata y'inyange hari icyuma gikonjesha amata, handitseho amagambo abiri miriki zone inyange, hari indobo hasi hari ufite igikombe cy'umweru ari gutegaho amata.

Ibicuba by'amata byinshi, hari umuntu uri gusukamo amata, hari undi hirya wicaye ku ntebe y'urubaho yambaye ishati y'umweru.

Ahacururizwa amata y'inyange. Hari abantu batatu, umugabo wambaye isengeri inkweto zitukura. Umwana wambaye udukweto tw'ubururu, etajeri ucuruza ahagazemo y'ubururu. Injerekani y'umweru, icyuma gikonjesha amata.

Ubucuruzi bucuruza amata hari umuntu ufashe igikombe cy'umuhondo, ijagi y'umweru, arimo arayasuka, yambaye ishati y'umweru.

Ubucuruzi bunyuranye harimo ibyo kunywa. Hari umuntu uhagaze, wambaye ishati, ari kureba muri kontwari, hari akabido hejuru yabo, arasa nk'aho arimo kukitegereza.

Ubu ni ubucuruzi bw'amata hari amajerekani arimo amazi ya jibu, hari amatafari agaragara ya ruriba, hari igikombe muri firigo, harimo akabido, harimo ijagi.

Amasambusa asa n'umuhondo, ari ku ipalato y'umweru, ni menshi cyane, bigaragaza ko akoze mu buryo bwiza.

Ubu ni ubucuruzi bw'amagi, buri mu matireyi afite ibara ry'icyatsi, hari umuntu uri kuyacuruza wambaye umwenda w'umuhondo, hari ameza acururizaho.

Hano hari umuntu ufite imisatsi isutse w'inzobe, arerekana uburyo ushobora kwishyura umuriro ukoresheje ikoranabuhanga rya Airtel.

Iyi ni borodero ya emu banke ku mu ajenti, hariho ibihumbi mirongo icyenda, hariho ubusobanuro bw'uburyo operasiyo yo kubitsa no kubikuzwa yakoze.

Urupapuro rwanditseho inyuguti z'umukara. Hariho akantu k'umuhondo basurinyeho. Hakaba hari igicucu kigaragaza ko ari ifoto yafafashe nabi.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibirahuri hari abantu babiri bagiye kwinjira umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro yumukara, undi yambaye umwenda; ipantaro, ishatisi hari icyapa cy'ubururu cyandikijeho inyuguti z'umweru.

Ubwo ni uburyo bakwereka bwo guhuza telefoni na banke, handitseho umubare gatanu, amagambo emeza. Hariho akapa gafite umubare w'amafaranga.

Iyi ni lisiti igizwe n'amapaje ane iragaragaza amafaranga yasohotse umubare wayo. Lisiti yambere iriho utuzu tune.

Uru ni urupapuro rugaragaza ko umuntu yishyuye umusoro, hariho icyapa kigaragaza ko hariho ikirangantego, hariho tininamba, hariho itariki y'igihe yayifatiye, hariho amafaranga yishyuye.

Amafaranga atandukanye. Hariho iya magana atanu, iya magana abiri, hari iy'ijana, hari iya mirongo itanu. Hari n'iy'icumi. Hariho abantu. Umwe afite isuka undi n'umudamu witeze igitambaro.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga, harimo umuntu uri kuyabara ayafashe mu biganza bibiri, izo note ziriho umuntu w'umwirabura, hari igitambaro cy'ubururu kimurambitse iruhande.

Hano hari ibiganza bine hari uwambaye umupira w'umukara, hari inote nyinshi bafite mu ntoki ziriho umuntu w'umwirabura indi ni amadolari.

Inote nyinshi zifite amabara atandukanye ariko akaba ari amafaranga y'abanyamahanga, hariho ibiceri, iby'umweru, iby'umuhondo, hariho inzovu, hagaragara umutonzi wayo.

Amafaranga y'inote z'ijana ariko y' Amadolari, afitwe n'umuntu w'umwirabura uyafashe mu ntoki, hari andi afunze ukwayo.

Iyi ni inoti yo muri Tanzaniya y'igihumbi, hariho amazu, hariho ibendera, hari igiti kiriho imbuto, uruhande rundi hariho umuntu wambaye umupira w'umukara.

Umuntu ugaragara mw,isura y'abashinwa afite amafaranga mu ntoki yagiye atandukanya afite akandi kantu mu ntoki kumukara.

Hano aya ni amafaranga. Inote ya makumyabiri y'inyamahanga, hariho uturongo tune tw'umukara, hariho ifoto y'umuntu, harimo itariki y'igihe yakorewe byanditse mu Gishinwa.

Ibi byapa birashaka kugaragaza aho igikorwa gikorerwa mu nzu runaka, kuko murabona ko ibi birango bigaragaza akamaro ko kuyobora abaturage.

Inzu nziza cyane igaragaza ibirango bya banki BK hariho amabara y'ubururu, hakabaho amabara y'umutuku, icyatsi, hakabaho n'ibara ry'umweru isiza amarangi meza cyane kandi irasukuye.

Inzu nini ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo ubucuruzi, hari umuntu uhagaze ku ruhande wambaye ijire, ipantaro y'ikoboye. ibyapa biranga ibihakorerwa, hariho irange ry'ubururu.

Hano hari inzu, irimo amakaro, ifite imiryango ibiri ifatanye, irakinguye, isize irangi ry'ubururu, harimo ibirahuri, hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Iyi ni intebe nziza cyane ikozwe mu mbaho, iregamirwa, barayihina, isize verini, iri ku makaro imeze neza cyane.

Aka ni akabati gakoze neza cyane, ariko gakoze mu mbaho zidafite isuku hejuru harimo harakaho izuba. Ariko hari akandi ku ruhande barimo gukora, bigaragara ko bakirimo kubitunganya.

Saro ifite intebe z'ubururu, imisego y'umweru, intebe zindi z'ubururu bwijimye, hari akavaza karimo uturabyo, inzu irangi ry'umuhondo ikagera ni rugi rw'ubururu.

Aha ni aho bita mu isarumara, babariza ibitanda, harimo igitanda basize irangi ry'umutuku, hari ama matera ari ku ruhande bifashisha bakora intebe.

Ahantu bagurira ibikoresho byo gukora intebe, hari abantu babiri umwe afite akamatera ko gukora imisego undi yambaye igisareti cya kaki, hari amarido abiri iry'umutuku n'umweru.

Iyi ni inzu icururizwamo ibikoresho bya saro, harimo akabati, ameza, utumeza dutoya, harimo intebe bikozwe mu mbaho, hasi hashashe amakaro, urukuta rw'iyo nzu hasize irangi.

Intebe za salo ziri mu nzu ifite amakaro, zikoze mu mbaho, zisize verini, zifite imisego y'umweru. Iyo nzu isize amarange y'umweru, harimo ibirahuri. Hirya yaho hari ubusitani.

Inzu ikase nka muviringo hariho ibara ry'umuhondo, hasi harashe amapave, hejuru hari igisenge gisize irangi rijya kumera nka move.

Inzu igeretse, iriho amarangi y'umweru, ifite ibirahure by'ubururu, ikagira indi nzu iyegereye isize irangi ry'ubururu, hejuru hariho irangi rya shokora.

Ahantu hari koroture y'ibyuma hari umutaka ukunje, hirya yaho bigaragara ko hari igicu kigaragaza imvura nyinshi.

Ji ziri mu dukombe imineke, ku ruhande utubati dutegurirwamo ibikorwa by'iyo mitobe.

Inzu ifite amabara atandukanye ifite ibirahuri by'ubururu ikagira umukara ariko ifite uturango twa made ini Rwanda, ikagira n'irangi ry'umuhondo, ikagira n'irangi ry'umutuku.

Inzu yo kwakiriramwo abantu, hateguye harimo ibitambaro mu madirishya y'ibirahure, amarangi, ibikombe, amatara, intebe z'umukara.

Ahantu basohokera bakogera hari pisine, amazi yaho arajya gusa n'ubururu hari udutebe bamanukiraho kugira ngo boge, hari ibyatsi iruhande rwabo ari bwo busitani butuma bagubwa neza.

Iyi nzu irimo abantu benshi, amatara hejuru, harimo amakaro, amarangi atandukanye, biragaragara ko yaba ikorerwamo akazi k'ubucuruzi.

Igeretse rimwe yubatse iruhande rw'umuhanda w'umukara zikaba ari inzu ebyiri zifite ubusitani butoshye hasize irangi ry'umuhondo, harimo utwapa twaho baparika.

Hari inzu ndende igeretse gatanu, hari pisine, hari abantu batatu, babiri baricaye, barimo barashaka koga, hari umutaka abantu baruhukiramo bamaze koga.

Iyi ni inzu igeretse, ifite inkingi nyinshi cyane, hari amabara atandukanye, ubururu n'umutuku, n'irangi ry'umweru hejuru, hari ubusitani ku ruhande; hari nijoro.

Moto y'umutuku iparitse, hariho kasike y'umutuku hari umuryango winjiramo, hasize irangi ry'ubururu, igikuta gisize irangi ryumweru.

Inzu ifite amarange atandukanye, hariho ibirango by'ibihakorerwa, hariho ari irange rya move, hari n'irangi ry'umukara, hariho ibyapa byinshi biranga ibintu bihakorerwa.

Iyi ni inzu nziza ifite amarange y'umweru, intebe z'ubururu, utubati dusize irange ry'umweru, hasi harimo amakaro, hejuru harimo amatara...

Inzu ifite aho binjirira hagaragara aho baparikira, irageretse, hariho ibyapa by'ibihakorera, imbere yaho hari ubusitani, hariho uturabyo tw'ubururu.

Abantu babiri basuhuzanya, umwe yambaye umwenda w'icyatsi, yicaye ku ntebe z'umuhondo, undi yambaye ishati y'umweru, yambaye ijipo irimo uturongo.

Hano hari inzu igereretse gatatu; ikaba ifite ibyapa bitatu harimo ibara ry'umutuku; hakaba hateganiyijwe n'ahantu hazajya amajaride k'uburyo bwiza.

Iyi ni inzu ifite amarange y'umweru, iragaragaza ibimenyetso by'ibyo bahakorera. Harimo ifoto y'umuntu uhahagaze. Inzu ifite ibirahuri, irageretse.

Izu nziza cyane, izamuye ifite ibirahuri by'ubururu, ifite ibyapa bigaragaza aho bakorera, hari akamoto hasi gaparitse, hari umuntu wambaye umupira w'umweru.

Umukinnyi wa firimi arimo kwamamaza, ari iruhande y'amarido, yambaye umupira w'umweru, telefone mu ntoki, umusatsi mwinshi ku mutwe.

Iyi nzu ikorerwamo ibintu bitandukanye harimo abantu babiri bagaragara bahaga umwe yambaye ipantaro y'ubururu undi yambayemo haribyapa biranga.

Inzu igeretse kabiri, izatomborwa, haragaragara umubare wanditseho icumi ku ijana, hari umwana utangaye, afite telefone mu ntoki, yambaye ishati y'amabokoko maremare, ariyogoshesheje, handitseho andi magambo agaragaza ubusobanuro.

Icyapa cya Ekwiti kiriho umukobwa wambaye ishati y'umuhondo afite imisatsi myinshi yambaye itaburiya y'umweru hari n'akapa kagaragaza icyo kirango hirya yaho hari intebe ihari.

Imitako iboshye ikozwe mu tuntu dutandukanye ifite amarange meza, harimo ibirere, harimo ibitambaro, harimo ibigwegwe, iri ku gatambaro k'ubururu.

Isoko ricuruza ibiribwa by'imbuto intoryi, karoti, ibitunguru, inyanya na puwavuro. Hari abantu babiri bagaragara bari kuzicuruza.

Hano ni ahantu hateranira abantu benshi, ariko hari utuzu tudasa neza, bigaragara ko n'amasuku yo hasi adahari. Amabati arashaje. Hari abantu bambaye imyenda itandukanye.

Ni isoko rihuriramo abantu benshi hari imodoka y'umweru hari umuntu wambaye umupira w'umutuku, hari akana karimo kugenda hagaragaramo na moto, iri soko ryubakishije ibyuma.

Aha ndabona ari ahantu habaye iminsi mikuru, hari amatente abiri y'umweru. Hari daso ebyiri zambaye imyenda y'icyatsi. Hari abagore bambaye imyenda y'ibitenge myiza.

Inzu ndende ifite ibirahure by'ubururu, hariho akabara ka move kayizungurutse, hari abantu hasi bari gupakurura imizigo, harimo n'abambaye imyenda y'umutuku.

Iri ni isoko rini cyane ririmo amashu n'inyanya, amavuta hakaba harimo abacuruzi bagera muri babiri kaba harimo ibicuruzwa byinshi cyane.

Umuhanda munini urimo imodoka nyinshi n'amamoto harimo inzu haruguru yaho iriho ibirahure by'ubururu, imodoka ziparitse hafi z'umweru.

Iri iri ni isoko ricuruza imboga, harimo abantu babiri, umwe yambaye umwenda urimo amabara, aza nk'umukiriya, undi arimo arerekana ibyo acuruza, yambaye ijire y'umukara.

Iri ni isoko rinini ricuruza imboga harimo inyanya z'umutuku puwavoro z'icyatsi, inoryi z'icyatsi, karoti z'umuhondo, ibitunguru by'umweru.

Isoko rinini ricuruza ibintu bitandukanye. Umuntu yicaye ku gasongabugari, yambaye itiriningi irimo ibara ry'umweru, umupira w’umutuku. Harimo amatara yaka, ni ninjoro.

Iri ni isoko ry'ibitenge harimo amabara atandukanye, umutuku, icyatsi, umuhondo, akabamo n'ushinzwe kuyicuruza.

Isoko ricuruza ubuconshu, bitanditse hasi, hari umuntu wambaye umwenda w'umutuku, hirya yaho babishyize ku mugozi.

Isoko ryakira abantu benshi. Rifite hejuru hasize irangi ry'ubururu. Hari umugozi ujyana umuriro muri iryo soko. Hari kizimya mwoto. Hasi ntabwo hapavomye, ni itaka.

Ubucuruzi buvangavanze bwa Made in Rwanda harimo umudamu wambaye ishati y'ubururu, igitambaro cy'umweru mu mutwe. Hari agakapu kuruhande kamanitse. Hari abantu batatu baje kumuhahira.

Inzu igeretse kane irimo abantu benshi hasi hari imodoka ya polisi iruhande rwayo hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara hirya hari abantu babiri bambaye imipira y'umutuku begamye ku modoka y'umukara.

Iri ni isoko rinini cyane ricururizwamo ibiribwa by'imboga; inyanya, amashu, wavro, intoryi, karoti, ibitunguru, urusenda, imiteja, amashu.

Isoko ricuruza imbuto ziri mu bintu binyuranye ibitebo bitatu, umufuka, agakarito, udutaro hari undi wambaye imyenda inyuranye irimo amabara y'umweru arimo aracuruza.

Isoko ricuruzamo ibintu bitandukanye harimo: ibitoki, amapapayi, ibitoki by'imishabi, harimo abantu babiri barimo kugurisha, umugore n'umugabo umwe yambaye umupira w'umweru utambitsemo akantu.

|Abo bantu bari kuganira ni batatu, umwe yambaye umwenda w'umweru undi afite igitambaro mu mutwe, undi yambaye umwenda w'ubururu bari gucuruza.

Hari ibikorwa bya MTN harimo abakiriya baje babagana n'umudamu wambaye umupira w'icyatsi undi mugabo umuri iruhande wambaye ishati y'umukara, hari mashini kompiyuta zibari iruhande hari udukarito turimo terefone, harimo abambaye umupira w'umuhondo babiri.

Ahantu hari abantu batatu, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi umutuku, ipantaro y'umukara, undi yambaye ikabutura n'umupira, afite imodoka nyinshi.

Hano hari ibirango emutiyene, biraboneka ko hari totombora, hari abantu batatu, hari uwambaye umupira w'umweru w'ubururu umutuku, hari ibyapa byanditseho amazina.

Hano hari akazu k'umuhondo ka MTN. Hahagaze umuntu wambaye umupira w'umutuku. Ipantaro y'ubururu y'ikoboyi. Gateretse imbere y'inzu yindi ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi.

Hano hari abantu babiri bari inyuma y'imodoka y'umukara, umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye umupira w'umuhondo ingofero y'ubururu n'umuhondo.

Abantu babiri bahagaze bari mu gikorwa kijyanye no kwamamaza MTN, umwe yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ikoboyi, undi yambaye umupira w'icyatsi, ingofero y'abayisiramu mu mutwe arareba telefone.

Hano hari amabara atandukanye, inyuguti zandikishije umweru, izandikishije umutuku, izandikishije umukara, imirongo y'umweru,

Iyi ni kampani ikora ibijyanye na derivari, yambaye umupira w'ubururu, ingofero y'ubururu ari mu modoka ifite amabara atandukanye umweru, ubururu.

Umuntu utwaye moto, ahetse isanduka y'umutuku ijyana ubutumwa ku bantu, yambaye kasike y'umutuku arahagaze.

Inzu ifite amarangi y'imirimbo, hasi hariho amapave afite amabara atandukanye, hariho porotaye ifite irangi ry'umukara n'umweru.

Iyi ni inzu nziza ibereye u Rwanda, harimo utubati twiza ifite saro yiteguye neza, harimo intebe zo kwicaraho, harimo n'ameza, ifite amarangi meza.

Iyi ni inzu ifite amakaro meza, ikaba ifite isaro nziza, ifite parafo ya rangete, ikagira n'amadirishya manini cyane abasha kuba yasohokamo umuyaga cyangwa ukinjira.

Hano biragaragara ko hari inzu nziza cyane irimo amakaro, inzugi eshatu zikozwe mu mbaho kandi hari n'aho abantu bagomba gukarabira hejuru hari igisenge cyiza cyane.

Iki ni igikoni cya kijyambere imashini iteka, akabati babikamo ibikoresho, mikoro onde firigo, indobo, ngerekani.

Iyi ni inzu iteye amarangi meza. Irimo amakaro. Hakaba harimo abantu babiri batandukanye. Umwe yambaye ikanzu y'igitenge undi yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu.

Inzu irimbishije, irimo amarange atandukanye, hejuru hari amabara y'umuhondo, hasi hashashemo amakaro, hari amatara ari kwakamo ku manywa.

Aka kazu ni agataje keza cyane kubatse ahantu heza kandi hashashe amapave, gasize amarangi, imbuga gafite utwatsi n'uturabyo tumeze neza.

Inzu igeretse rimwe, ifite imbuga irimo amapavi arimo amabara, hari irange ry'umweru risizwe kuri iyo nzu, hejuru hari ikirere gisa n'ubururu.

Uyu ni umunyamakuru, yambaye ishati y'ubururu, yambaye ipantaro y'ikigina, yambaye umukandara wa shokora, afite akamikoro avugiramo.

Hano iyi ni inzu ifite mapave ifite fondasiyo ihagarariye korutire y'amabuye ifite igisenge kigezweho hari ibiti bitanga umwuka mwiza iruhande rwawo.

Iyi nzu isize amarangi y'umuhondo, irimo amakaro, ni konoshi, hejuru urabona ibicu by'umweru n'ubururu, hasi hari amapave ifite utwuma dutangira kuba utapfa gusohoka uko ubonye.

Inzu ndende ifite amabara atandukanye, yometseho amabuye, hirya yho hari ibiti by'imikindo, ifite hasi amapave.

Inzu iherereye Kabeza, ifite amabati y'umutuku, isize irangi ry'ubururu, ifite igitebe cy'amabuye, igiti ku ruhande kirekire gitanga umwuka mwiza.

Inzu iherereye Kigali Kimironko ifite amarangi atandukanye ubururu, umweru, umutuku, ifite ubusitani bwiza hejuru haragaragara ibicu by'umweru.

Hano hari akabati kabikwamo ibikoresho, hari aho bogereza amasahani, kari iruhande y'urukuta rukozwe n'imbaho, na rwo rukaba rwegereye ahantu hari ibiti bitanga umwuka mwiza.

Inzu yubatse ifite ibipande bibiri bigaragara, ifite amabati y'umutuku, iri ku muhanda utari warangira kubakwa, hirya yaho hari igiti kirekire kigaye gitanga umwuka mwiza.

Inzu y'ubatswe neza cyane irimo amakaro y'umweru, ifite amarange y'ubururu n'umweru, irimo imirongo ibiri y'umukara, harimo ibicuruzwa byinshi, harimo amatara y'ubururu.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye by'ibiribwa umuceri, ibishyimbo biri mu mifuka ikubakubye igejejemo hagati buri gicuruzwa gifite agapapuro kabiranga.

Hano hari isoko rigurirwamo imyenda, hari abantu, umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati y'umukara undi yambaye ikanzu.

Iri ni isoko ry'ibikoresho by'uruhu harimo inkweto, amasakoshi, imikandara n'ibindi byose bishobora kuba bikonzwe mu ruhu. Murabona ko harimo n'abakiriya baza kugura.

Aha ni mu nzu hari amatajeri atandukanye menshi, harimo ifite ibara ry'ubururu, hari irifite ibara ry'umukara, hari umuntu uhagaze wambaye ikabutura, yambaye umupira w'ubururu.

Inzu ifite amakaro hasi, hejuru amatara; indobo z'icyatsi, hari umuntu uri kuzirebaho, ku ruhande hasizeho irangi ry'umweru.

Umuhanda urimo ibimenyeto by'umuhanda, hakurya hakaba hari igikoresho gishinzwe gufotora imodoka zirimo zirirukanka. Icyapa kirimo kwaka mu itara ry'umutuku hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi.

Ifishi y'ubwishingizi mu kwivuza hariho agafoto k'umwana, umuntu ayifashe mu ntoki, hari ikaye ya regisitiri, hari agatebe k'agataburete.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane muri mituweli, hariho ikirangantego cy'u Rwanda, hari amagambo yanditseho Minisiteri y'Ubuzima, Umujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro.

Abadamu bari mu itsinda, bafite amafishi y'ubururu, udutabo bareberamo uburyo bizigama, bari mu nzu, ifite amakaro.

Abaturage bicaye bakurikirana inama, bigaragara ko ari nk'abayobozi bafite amahugurwa, hari ufite agakaye mu ntoki, abagabo babiri bambaye ingofero, umudamu uteze igitambaro mu mutwe,

Uyu ni umu mama uri kuvuga ku bijyanye n'imikorere ya ejo heza, yambaye umwenda udoze mu gitenge, aragaragaza umusaruro yagize mu guhinga ibirayi, yambaye umwenda mu mutwe.

Abantu babiri umwe ugaragara nk'ufatanye n'undi ariko biterwa n'ikirahure cyabikoze, umwe ni umugabo wambaye ikote undi agaragara nk'umugore avuga ku bijyanye na ejo heza.

Hano bari gukosora ku bijyanye n'ubwishingizi mituweli, hari amafishi abiri afite ikaramu mu ntoki ebyiri itukura n'iy'bururu.

Iki ni icyapa kigaragaza ikimenyetso cya RSSB, cyanditse mu nyuguti z'umweru, uruziga rugizwe n'umuhondo, inyuguti z'ubururu.

Isoko rinini cyane rifite hasi hasukuye hariya ishashemo amakaro ari amatajeri yo gushyiramo ayo mavuta hari akabati kari kwakamo amatara karimwo amavuta hejuru hari igisenge cy'umukara.

Iyi ni inzu nziza igurishirizwamo ibintu by'ibiribwa, harimo umuntu waje kubahahira, yambaye agapira k'umukara, ikanzu irimo utubara, afite agapaniye bahahiramo.

Isoko rinini cyane ricuruza ibyerekeranye n'amapizaa ni rirerire, hari n'amakaro, harimo amatara menshi, igisenge cy'aho ni umweru, hari aho bashyiraho imyada.

Ibikombe birimo ibijyanye n'ikawa hari umuntu ufashe igikombe kimwe mu ntoki, afite inzara zisize, hari amatajeri agaragaza aho ibintu biteretse.

Hano hari isoko rinini rigurishirizwamo imboga. Amashu. Inyanya. Ibitunguru. Urusenda. Puwavuro. Amagi.

Aha ni ahantu bacururiza ibintu byo kunywa by'imitobe harimo fanta orange sitoro koka na ji zo mu bikarito.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya byamabiswi, biri muri etajeri y'umukara n'umweru, hasi hashashemo amakaro, hepfo hari umuntu uhahagaze, ariko utagaragara neza, hari amabara y'ubururu harimo amatara.